Ni hoteri irimo inzoga, irimo ibiribwa, harimo intebe, harimo etaje igeretse gatatu.

Ni iduka ririmo ibikoresho bitandukanye: inzoga n'amashyiga ya kijyambere, n'umuntu uri mu kantu k'icyatsi.

Ni akabari karimo inzoga, ameza ,ibirahuri, n'abantu babiri bicaye kumeza.

Ni inzu ya hoteri yubatse ku butaka， isakaje amategura， imbere yaho hari ururabo， hakaba hari n'icyapa kibigaragaza， ko ari inzu ya hoteri.

Hari intebe eshatu, hakaba n'abantu babiri bicaye mu ntebe, hejuru hakaba hariho icyapa kiranga ubucuruzi.

Ni inzu y'ubucuruzi icururizwamo imyenda: amakoti, amapataro, amashati, hari n' umuntu umwe uri gutandika iyo myenda.

Ni inzu y'ubucuruzi, irimo inkweto, hakaba hahagaze abagabo babiri.

Inzu y'ubucuruzi yubatse ku butaka, hakaba hariho umuntu w'umukobwa kandi ifunguye.

Ni inzu iteretse ku butaka, iri imbere hari igiti hari n'abantu bane, umudamu wikoreye ibase, umukobwa n'umwe uri ku igare.

Ahacururizwa imyenda amapataro, imipira harimo n'umuntu wicaye wambaye agapira k'umweru, inkweto z'umukara ndetse na telefone.

Nikubiro inzu y'ibiro harimo kumbuga harimo amapave, kurubaraza hakabaho amakaro, ndetse ahubatse n'ibindi bikorwa.

Ni modoka iri mu muhanda iri gucuruza amavuta, iruhande rw'umuhanda hateye ibiti.

Ni butike, hariho umudamu urigenda, igipangu cy'umutuku, hari umucuruzi wa Emutiyeni wicaye.

Inzu ya butike, imbere hariho amagare atatu, hakabaho n'umudaso, hakabaho n'umukobwa wambaye umupira w'umuhondo, hakaza n'intebe y'ubururu n'abandi babiri bari mu muryango, hejuru hariyo icyapa kigaragaza ibicuruzwa.

Ni inzu y'ubucuruzi yubatse hafi y'umuhanda, imbere hari icyapa cya eyateri, iburyo hariho umugabo uri kugenda n'uwicaye na moto ihaparitse.

Ni inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye hari, umuntu unyuze imbere yayo utambutse, hari n'undi wambaye ingofero y'ubururu uhari.

Ni ku butaka, hari ibipira by'amazi biziritse kandi bizingiriye.

Ni ahacururizwa ibicuruzwa bitandukanye, by'amoko atandukanye. Ni inzu nziza kandi yakira abakiriya.

Ni inzu icuruza ibikoresho bijyanye n'ikoranabuhanga, harimo amatelefoni.

Ni inzu yubatse ku butaka ya etage igeretse gatatu, ikaba irimo ibicuruzwa bitandukanye, imbere y'umuryango hari umudamu uhetse umwana, hari abamotari bategereje abagenzi.

Ni itaje igeretse kane, hasi ni amangazini, no hejuru barahacururiza, gatatu ni bare， hejuru naho barahakorera, imbere hariho amatapi.

Ni ahacururizwa ibyuma by'ikoranabuhanga, harimo amatelefoni, za kamera ,ndetse hasi yaho n'inzu yubatse neza.

Aha ni muro umuhanda ugiye muroma hari abantu babiri bagiye kgirara umugabo n'umugore n'abandi babiri bari ku ruhande

Ni ahacururizwa ibipanga by'amagare. Hariho n'ibindi bicuruzwa. Bihambiye n'imigozi, ni byinshi.

Inzu iri gucururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, hari abantu hari umugabo n'umwana hakaba n'umukozi wa Emutiyeni ufite umutaka wicaye.

Ni inzu iteretse ku butaka ifite ubusitani, yubakishije amapave ku mbuga kandi ifite n'ubucuruzi, ifite icyapa hejuru kiyiranga.

Ni inzu y'ubucuruzi hari umukozi wa emutiyeni uri ku rugi, inzu iteye amarangi y'ubururu hejuru yubakishije amakaro.

Ni inzu y'ubucuruzi barimo gucuruza, ifite imiryango itatu ifite agaporotaye gafite ibara ry'umutuku, amabuye ku ruhande agahanda kinjiyemo, hanyuma ikaba isakaje amabati y'umutuku n'umureko w'umutuku.

Ni abafundi barindwi bambaye ibisurubeti by'icyatsi n'ingofero z'umuhondo n'umutuku n'ubururu n'uwambaye jire.

Iyi nzu ifite urupangu, ikagira porotayi, ikagira umukindo, ikaba ifite paraburize hejuru, ikababa iteye irangi ifite parafu, hanze ikaba isakaje ibintu by'amategura.

Ni umuntu uhagaze kumapave yo mu rugo, yambaye inkweto z'umweru, yambaye ipantaro y'umukara yambaye n'agapira kagiye kuba nk'ubururu, yifashe mu ntoki, yifashe mu mufuka, afite n'agacupa mu ntoki.

Ni inzu yubatse neza ijyanye na viziyo, ifite amapave hanze ku mbuga ikagira indabo, ikagira amatara ku rubaraza ikagira agaporotayi ku rubaraza, ku ruhande hakaba hubakishije amabuye isakaje amategura.

Ni isoko ririmo ibiribwa. Ibishyimbo, MTN ,hari abantu bari kujya mu isoko, bari mu isoko rirubatse.

Hari umuntu urimo gucuruza imyenda, harimo imipira, amapantaro, amakanzu amajipo, kandi uwo muntu arimo gucuruza, yambaye agapfukamunwa.

Ni ahacururiza ahacururizwa ibiribwa bitandukanye birimo: amaronji, amapapayi, ibinyomoro, imyembe...

Ni aho bakoresha ibikoresho bitandukanye birimo amasafuriya, indobo, imyuko, amatasi, teremusi...

Ni ahari gucururizwa ibintu bitandukanye birimo amavuta, masabune, ingufuri, imbere yayo hicaye umugabo wambaye ishati y'umukara, n'ipantaro igiye kuba nk'igitaka.

Ni iduka ririmo ibikoresho byo murugo, kuruhande hariho igare n'inzu ikinze.

Ni ahacururizwa amasafuriya, amasahani ,ibikombe, amadongo, ibiriko n'utundi twuma, n'amabase.

Ni ahacururizwa ibintu bitandukanye harimo: amafu, ji z'abana n'ibindi bintu bitandukanye.

Ni inzu yubakishije amatafari ahiye, mo imbere bari gucururizamo. Hejuru handitse mirongo ine, ku ruhande hamanitse udufuka, ku ruhande hari imyenda, mo imbere harimo umuntu.

Ni inzu yubatse ku butaka icururizwamo ibintu bitandukanye. Ikaba ifite inkingi y'umukara mo imbere ikaba irimo ibicuruzwa.